Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye, bari guhabwa amahugurwa n'umuyobozi akoresheje ikoranabuhanga rya porojegiteri.

Mu cyumba cy'inama ahabera inama ndetse n'amahugurwa, harimo abantu b'ingeri zose abadamu ndetse n'abagabo ku meza yabo hateretse amazi yo mu bwoko bw'Inyange, bari mu myambaro itandukanye.

Icyumba kiberamo inama ndetse n'amahugurwa akaba hari ababyitabiriye, harimo ingeri zigiye zitandukanye igitsina gabo n'igitsina gore, aho hari abagabo umwe yambaye ishati y'ubururu, undi yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'umukobwa cyangwa umudamu ubari inyuma uteze agatambaro mu mutwe, basa naho bakurikiye biri kuba.

Mu cyumba kirimo kuberamo inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo, hari umwe uhagaze uri kubaganiriza wambaye kositimu n'ishati y'umweru ndetse akaba afite indangururamajwi mu ntoki ye tuzi nka mikoro, n'abandi bicaye bari kumutega amatwi. Imbere y'aho hari amazi mu ducupa...

Mu cyumba kiri kuberamo inama cyangwa se amahugurwa yitabiriwe n'ingeri z'abantu bagiye batandukanye, hakaba hari umwe uri kuvuga afite indangururamajwi ariyo micro ndetse yambaye ishati y'umweru, imbere akaba hari telefone n'ingofero ndetse n'uducupa tw'amazi,..

Mu cyumba kiberamo inama, hari umugabo usa n'ukuze, wambaye ikositimu, karuvati y'ubururu, ndetse n'ishati n'amadarubindi, akaba afite uruhara, imbere ye ku meza hakaba hateretse amacupa abiri y'amazi.

Mu cyumba kiberamo inama ndetse n'amahugurwa aharimo kubera inama yitabiriwe n'ingeri z'abantu bagiye batandukanye, biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo n'undi umwe uri kuba yabagezaho ibyo barimo kuganira, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse na za mudasobwa n'amatelefone.

Mu cyumba kiberamo inama zigiye zitandukanye ndetse n'amahugurwa, haragaragara abitabiriye icyo gikorwa biganjemo abagabo ndetse n'abo mu gitsina gore, imbere yabo ku meza hari za mudasobwa n'uducupa tw'amazi n'ibirahure birimo ikindi kintu cyo kunywa hashobora kuba harimo icyayi cyangwa kofi.

Ahateraniye imbaga y'abantu nyamwinshi bicaye mu bice bigiye bitandukanye, abica ahantu hatwikiriye hariho amatente, hepfo no haruguru ndetse n'abandi bicaye mu rucaca, hakaba hari umudamu uri imbere yabo urimo kubabwira mu byo bari kwigaho cyangwa uri kubaha amabwiriza cyangwa uri kubaganiriza, ndetse n'umusore uri kumufata amashusho wambaye umupira wa pink.

Icyumba k'inama gisa n'umweru, kicawemo n'abantu bari mu nama, buri wese yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ku meza ye hariho amazi ndetse n'ikayi n'ikaramu zo kwandikamo ibi bwigirwe muri iyo nama.

Icyumba kinini cy'inama kiri mu mabara y'umweru gifite amarido ya kakiyi abahugurwa bambaye imyenda y'umweru bose ubahugura bahagaze imbere afashe mikoro ndetse hariho n'ibyapa bigaragaza ibyo bari guhugurwaho mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Mu cyumba kiberamo inama yitabiriwe n'ingeri z'abantu bagiye batandukanye ,hari abagabo babiri umwe wambaye amadarubindi ishati y'ubururu irimo umweru ndetse n'undi wambaye ishati irimo umukara n'umweru , imbere yabo ku meza hakaba hari, uducupa tw'amazi bitabiriye amahugurwa ya tafisa bijyanye na siporo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri mu mujyi wa kigali.

Icyumba cy'inama cy'umurenge wa Kigarama giteraniyemo abayobozi batandukanye uko ari batanu, bicaye ku meza imbere yabo hari amazi hari umuyobozi umwe uri gutanga ikiganiro umwe muri bo.

Urubyiruko rutandukanye mu ngeri zose, igitsina gore n'igitsina gabo bitabiriye inama rusange iri kubera muri sitade. Iyo stade ikaba ifite amabara y'icyatsi, hasi akaba ari umutuku.

Mu cyumba kiberamo inama cyangwa se amahugurwa ahitabiriye abantu bagiye batandukanye mwo harimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, hari umugabo wambaye ishati ya shokora afite ibajie mu ijosi ryiweyambaye amadarubindi usa n'ukuzemo imbere hakaba hateretse agacupa k'amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abayitabiriye bari mu mwambaro usa w'umweruru imipira y'umweru, ameza ariho ibitambaro by'umukara, hariho amazi n'udutabo n'intebe ziri mu ibara ry'umutuku imbere yabo hari porojegiteri, ikimurika kibereka ingingo bari bwigeho cyangwa ibyo bari kwigaho.

Icyumba kiberamo inama zigiye zitandukanye ndetse n'amahugurwa hari hari kuganirwaho ibijyanye n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ibiza, hakaba hari abari gufata ifoto y'urwibutso, abari bayitabiriye ndetse imbere yabo hari ameza bari bicayeho ateretseho amazi, za mudasobwa n'udupapuro bari bari kwandikaho.

Mu cyumba kiberamo inama ndetse n'amahugurwa haba hari ibiri kujya mbere , nk'inama cyangwa amahugurwa harimo ingeri zose z'abantu zigiye zitandukanye , abagabo ndetse n'abagore hakaba hari umudamu wicaye imbere wambaye amadarubindi n'imisatsi miremire, ku meza yabo hakaba hari ibyo kunywa ari byo; amazi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'umuzungu w'imisatsi miremire.

Abaturage bameze nk'aho bitabiriye ikintu rusange cyangwa inama rusange ,bari mu myambaro isa n'abandi bari mu myambaro idasa ari bo ibara ry'ubururu ndetse n'iry'icyatsi .Hakaba hari n'umudaso uri mu iniforume zabo z'icyatsi ndetse n'inkweto y'umukara.

Mu cyumba k'inama harimo abagabo n'abagore bambaye imyambaro itandukanye amakositime n'imyambaro isanzwe, imbere yabo ku meza hari uducupa tw'amazi n'utw'amaji, udutabo, udukayi bari kwandikiraho n'amakaramu, imbere hakaba hari porojegiter iri kubereka ibyo bari kwigaho n'amatelefone yabo ku ruhande.

Mu cyumba kiberamo inama zigiye zitandukanye, abari mu nama cyangwa se amahugurwa b'ingeri zose, abadamu, abakobwa n'abagabo n'abo mu nzego z'umutekano aribo polisi, imbere yabo ku meza hakaba hariho amazi, udukapu amatelefone yabo ndetse na za mudasobwa n'undi uhagaze urimo kubafata amashusho.

Mu cyumba kiberamo inama ndetse n'amahugurwa ahari kuberamo inama cyangwa se amahugurwa bigiye bitandukanye harimo ingeri zose z'abantu ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bicaye ku ntebe z'umuhondo ndetse n'abicaye ku z'umukara barimo kuganira ku ngingo runaka.

Mu matente ahicaye abantu bagiye batandukanye bitabiriye inama rusange, barimo ingeri zose; abayobozi ndetse n'abaturage, aho imbere yabo hateretse amazi n'amakayi bari kwandikiramo; ndetse bari mu myambaro igiye itandukanye. Harimo abazungu, abagabo, abagore, ndetse n'abandi banyuranye.

Abantu batatu umugore abagabo babiri umwe yambaye ishati y'umukara n'ikositimu, undi yambaye umupira w'umweru n'ikote barimo kungurana ibitekerezo bajya inama, imbere yabo hari mudasobwa n'amacupa y'amazi.

Mu cyumba kiberamo inama harimo kuyiberamo bungurana ibitekerezo ku kintu runaka harimo ingeri z'abantu bagiye batandukanye, abagore, abagabo, ku meza yabo hakaba bazengurutsweho mudasobwa n'amacupa arimo amazi y'ubwoko bw'inyange bakaba bakurikiye uri kubigisha cyangwa urimo kubasobanurira ibintu runaka.

Icyumba kiberamo ibiganiro ndetse n'inama aharimo abantu b'ingeri zigiiye zitandukanye igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari mu nama cyangwa se bari mu mahugurwa, imbere yabo hakaba hateretse uducupa tw'amazi hakaba hari n'udukayi n'udutabo two kwandikamo n'amatelefoni bakoresha hakaba hari n'undi mugabo wasinziriye yambaye ikositimu.

Abayobozi mu cyumba cy'inama bagiye batandukanye abagore n'abagabo, bicaye mu ntebe bategereje cyangwa se bari kumva ibyo ufite ijambo ari kubagezaho.

Mu cyumba kiri kuberamo inama harimo ingeri zose zigiye zitandukanye abirabura, abazungu ku meza yabo hariho amazi, ibitabo n'udukapu ku ruhande akaba hari umugabo wambaye ikositimu, imyenda y'abanyacyubahiro akaba arangaye muri telefone yambaye n'amadarubindi afite telefone y'umukara.

Kuri murandasi ahashyizwe itangazo rimenyekanisha abifuza akazi, ibisabwa ndetse naho bagasaba harimo ikigo kitegamiye kuri leta nashono gavamenti oruganizeshen, rikaba ryarashyizweho na Rwanda gavamenti sipoti.

Itangazo ryashyizweho n'urwego rubishinzwe imisoro n'amahoro, RRA Rwanda Revenue Authority, rukangurira aba voluntery disclosure kuba bakwishyura bitarenze umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, uwawurenza akaba yazishyura ibihano bikurikira.

Icyumba kirimo abantu batatu, babiri bari gutanga serivisi ndetse bafite n'ibikoresho by'utumashini dutanga inyemezabwishyu ndetse n'umukiriya utegereje guhabwa serivisi.

Umunara muremure ukozwe mu byuma by'amabara atandukanye umutuku ndetse n'umweru aho bikurura amajwi ndetse n'amashusho bikayasakaza hirya no hino ku bakoresha uwo umunara.

Uburyo winjira mu irembo ushaka serivisi zigiye zitandukanye zirimo iza polisi, bisabwa indangamuntu, uruhushya rwo gutwara imodoka, nomero ya telefoni cyangwa imeri.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibijyanye no gutanga itumanaho ku bantu, ibizwi nka airtel, ndetse na MTN na tigo pesa, aho ushobora kuba wakohereza cyangwa ukohererezwa amafaranga binyuze ku ikoranabuhanga.

Icyuma kirekire kizwi nk'umunara gifite ibyuma byinshi biyishamikiyeho mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'utundi duto dufasheho turi mu ishusho y'uruziga dukurura satelite aribyo twifashisha mu kubona amashusho ndetse no gukwirakwiza amajwi hirya no hino dukoresheje amatelefone yacu.

Inzu ifite urugi rw'umuhondo hariho icyapa cyanditseho irembo na puberi iteretse imbere yaho ndetse n'imashini bifashishisha mu gufotora impapuro. Bakaba batanga serivisi zigiye zitandukanye z'irembo harimo gutanga icyangombwa cy'amavuko, icy'abashakanye ndetse no kwaka igihe cyo gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga.

Ni kuri murandasi yinjiye ku rubuga rw'ikigo ngenzuramikorere mu Rwanda rura harimo gaze na peteroli, ni byo biri kugaragara mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Uburyo buri kuri murandasi ushobora kwinjira muri rura ariyo Rwanda yutiriti regiratoryi otoriti, ukoresheje amazina yawe, imeli yawe ndetse na telefoni yawe nimero zayo ukabasha gufungura konti muri urwo rubuga, ukajya usangaho amakuru agiye atandukanye wifuza.

Ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bari mu cyumba gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bakoresheje mudasobwa, aho barimo gusobanurirwa uko bikorwa ndetse nuko bigenda, ibyo baba bifuza gusobanukirwa byose.

Amagambo yandkishije ibara ry'umuhondo ari ku rupapuro rusa ubururu, ndetse n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, aho komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inamanyunguranabitekerezo, n'inzego zo mu butegetsi bwite bwa leta.

Igikorwa cyo gukingira, aho umuganga afite urushinge arimo gukingira umuntu wambaye agapfukamunwa k'umweru; hasigaye amasaha ntarengwa mu minsi ibiri turi kumwe? cyangwa ntituri kumwe?

Ubu buryo bwashyizweho n’ikigo gishinzwe imisoro n’amahoro bwo kwiga uko wayatanga bitarengeje igihe ntarengwa, bikaba biri kuri murandasi. Aho bikwereka ayo ugomba kwishyura ni umwenda, urimo uko ugana, bikaba biri mu ibara ry’ubururu, ndetse n’amagambo yandikishije ibara ry’umweru n’umuhondo.

Inzu icuruza ibiribwa n'ibinyobwa harimo amata ya mukamira, hakaba harimo firigo ikonjesha ibyo kunywa twaramo umuntu w'umukiriya umaze kuyifata ibyo amaze kurya no kunywa agiye kwishyura yambaye ishati y'umakara rukara.

Aho ushobora kunyura muri murandasi ukabona amakuru yose wifuza ku kigo cy'imisoro n'amahoro kizwi nka Rwanda revenue authority RRA mu magambo y'impine ukabona uburyo ki ushaka kwishyuramo imisoro yawe, ayo ugomba kwishyura ndetse ukanababaza ibibazo wifuza.

Itangazo ryashyizwe kuri murandasi n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro RRA, rimenyekanisha yuko uwo ariwo munsi wa nyuma wo gutanga imisoro ku bacuruzi n'inganda n'abandi bose bireba.

Itangazo ryashyizwe kuri murandasi rigaragaza y'uko ushobora kumenyekanisha ipatante y'umusoro wose ya bibiri na makumyabiri na gatanu cyangwa igihembwe cya mbere ,uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ariyo mirongo itatu n'imwe zo kuwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu ,wakwifuza ubusobanuro buhambaye wasura urubuga www .rra.gov. rw.

Umunara usakaza amajwi ndetse n'amashusho ukaba ukozwe mu byuma biri mu mabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru, n'igicu kiri mu ibara ry'ubururu ari cyo kirere.

Urubuga rw'irembo rukorera kuri murandasi rutanga serivise zigiye zitandukanye, aho hari nka serivise nshya ku rubuga rw'irembo y'uburyo umuntu ashobora kwinjira mu nkambi y'impunzi, icyemezo kibimwemerera harimo amazina ye ndetse na serivise yaba yifuzamo.

Serivisi itangirwa kuri murandasi izwi nk'irembo. Ikoreshwa mu gusaba ibintu bigiye bitandukanye aharimo ibyangombwa by'amavuko, icy'uko wasezeranye, uko ushobora kwaka kode yo gukoreraho uruhushya rw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Haruguru y'inzu yicaye umuntu w'igitsina gore wambaye ijipo y'umuhondo ndetse kuri iyi nzu hakaba hariho icyapa cy'Irembo kigaragaza serivisi zitangwa harimo iz'amabanki, izo gutanga viza ku bazikeneye no gufotora ama pasiporo bizwi nk'amafoto y'ibice, iyo nzu ikaba ifite urugi rw'icyatsi.

Ibikorwa bya Leta, harimo ahashinzwe ipoto rizwi nk'irikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hakoreshejwe insinga ziba zishamikiyeho, hakaba hari ibiti bihakikije ndetse n'insina, n'inzu ziri hafi aho ngaho.

Umuntu uri ku ipoto hejuru ukora ibijyanye n'umuriro usuzuma ibibazo umuriro waba wagize ku nsinga zijyana umuriro hirya no hino akaba yambaye ibyuma bimurinda ingofero yabugenewe ndetse n'indi myambaro.

Ipoto rirerire riteye ku nkombe mpimbano z'umuhanda, ziriho insinga zigiye zitandukanye mu byerekezo binyuranye aho zijyana umuriro mu ngo, hakaba hari ibiti birebire ndetse n'igicu kidasa neza n'abaturage bahagaze munsi y'iryo poto.

Mu muhanda mu gisate cy'abanyamaguru, aho hari umugore uri kugenda, wambaye imyenda itandukanye n'agapira k'ubururu, ku ruhande rwe rwo hepfo hakaba hari ipoto y'amashanyarazi n'ibiti imbere ye n'inzu inyuma yiwe.

Umukozi ukora umuriro w'amashanyarazi mu mpuzankano yambaye inkweto zabugenewe zurira amapoto afite ibikoresho ndetse yambaye n'ingofero imurinda kuba yakwangirika, ari kumanika insinga ku ipoto.

Ahari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ibiri kugendera mu muhanda ndetse na moto ziparitse ku ruhande ibyo binyabiziga hakaba harimo imodoka nini zizwi ku bwoko bwa litiko n'into zisanzwe ndetse n'ibikamyo hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amapoto manini ashinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda aho ku gisate kizwi nk'iz'abanyamaguru hari gutambuka amagare ndetse n'abanyamaguru hirya yaho hakaba hari ibiti ndetse n'indabo n'amapoto ashinze ku nkombe mpimbano z'umuhanda abasha kumurikira abagenda n'abakoresha umuhanda mu gihe cya nijoro.

Icyuma kirekire kigiye gishamikiyeho utundi hariho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, imbere yacyo hari ishyamba, mu kirere kirasa neza harimo ibara ry'ubururu n'ibicu biririmo ibara ry'umweru.

Ibintu by'ibyuma bibika umuriro biri mu ibara ry'umweru, biri ahantu hafunze neza ku buryo umuntu adashobora kuba yabyegera, kuko bishobora kumugiraho ingaruka zitandukanye. Hakaba hakorotirijwe ibintu byubatse mu byuma, hakaba hafunze neza n'ingufuri.

Imodoka mu muhanda itwaye abagenzi ya bisi, ifite ibara ry'umweru n'imitako y'icyatsi, ifite ivumbi ku kirahure ndetse no ku gisenge cyayo, hakurya hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi ndetse ariho n'amatara yo ku muhanda.

Ipoto ishinze haruguru y'inzu ifite amabati y'umukara ikizwi nka kadasiteri ikaba ifite insinga nyinshi zishamikiyeho zikwirakwiza umuriro hirya no hino mu ngo zihegereye ndetse hakaba hari n'ibiti bite hafi yayo.

Ibikorwa remezo, ahashinzwe umunara ukurura ndetse ukanasakaza amajwi n'amashusho hirya no hino, ukaba ukikijwe n'ibiti, hepfo yawo hakaba hari igipangu kiriho indabo ndetse n'amatara ashinzwe ku muhanda ashinze kumurikira abawukoresha mu gihe cya nijoro.

Ipoto y'amashanyarazi itwereka uko umuriro ukwirakwizwa mu ngo zigiye zitandukanye unyuze mu nsinga, hakaba hari ibisahane byagenewe gukurura satelite aribyo bya kanari purisi mu ngo zitandukanye urugo rwa mbere ruriho amarangi y'umweru n'ubururu n'urundi rugo ruri haruguru.

Ahari inyubako zitandukanye zimanitseho ibicuruzwa by'imyenda hanze ndetse n'imodoka ziri gutambuka hakaba hari ipoto rirerire hariho insinga, zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Ipoto riteye ku nkombe mpimbano z'umuhanda hariho insinga zijyana umuriro hirya no hino n'ibiti biyikikije bidufasha mu mihumekere ndetse no mu mibereho yacu ya buri munsi.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Ahitaruye hari ibiti bikikije ibyuma binyuranye bikora ibikorwa bitandukanye nk'ibyo gusakaza umuriro hirya no hino bikoresheje insinga, ndetse hakurya yayo ku musozi hakaba hari ibikorwamezo by'abaturage aho batuye ndetse n'aho bakorera.

Inyubako mu mabara y'umweru n'umuhondo y'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ku rukuta harandikishijeho inyuguti mu mabara y'umweru ndetse n'uturangamerekezo twerekana aho umuntu yinjirira.

Abantu bari mu bitaro baje gufasha abarwayi harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru urimo utubara tw'umutuku n'agapfukamunwa afashe avelope mu ntoki n'abandi bamuri imbere bari kugenda batanga ibintu ku barwayi hirya no hino .

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hakaba hari babiri mu bavuzi aribo baganga b'abagabo bose bambaye amataburiya y'umweru ndetse uw'umuzungu arimo gusobanurira mugenzi we uko ibintu bigenda akoresheje murandasi, hakaba hari ako bashyiramo imyanda kabateretse iruhande ndetse n'inyuma yabo hakaba hari urukarabiro.

Ni icyumba cyo kwa muganga abarwayi bicaye ku ntebe ndende bategereje serivisi, buri wese afite ibyangombwa bye mu ntoki, muganga mu mpuzankano z'umweru ari kwakira umwe mu barwayi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse na moto, ufite ibifate bibiri, ukikijwe n'ibiti n'ibimera n'indabo wegereye amazu.

Inyubako y'umuturirwa iri mu marangi agiye atandukanye higanjemo inzugi z'ubururu ndetse n'inkingi z'umweru, imbere yaho hari utuntu tubiri tumeze nk'udukingi turi mu mabara y'umutuku n'umweru n'umuntu w'igitsina gore uhagaze imbere y'umuryango wambaye ijipo y'umukara n'agapira k'umweru.

Abaturage bari mu ngeri zose, ab'igitsina gore n'igitsina gabo, baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye ndetse n'umufungwa uri mu mwambaro wabo w'iroze, bicaye bategereje kwakirwa.

Mu bitaro ahavurirwa indwara zigiye zitandukanye, hari uturangacyerekezo bizwi nk'ibyapa bituyobora, ahari serivisi twaba twifuza, nk'ahatwereka aho twakwivuriza indwara z'amaso mu ndimi z'amahanga bita ofutamoroji, ndetse no muri pediyatiri aho bavura indwara z'abana.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako nini bigaragara nkaho ari kubitaro ifite amadirishya n'inzugi bikinguye, ndetse n'ibyapa biyimanitseho bigaragaza serivise batanga. Hanyuma n'abantu biganjemo igitsina gore bicaye ku ntebe ndende bategereje seivise.

Mu bitaro hari inyubako zigiye zitandukanye, zifite imiryango n'amadirishya y'ubururu bwerurutse, hari umuntu uhagaze imbere y'urugi, wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru n'agapfukamunwa, bigaragara nk'aho ari umuganga cyangwa umuforomo, imbere yazo hakaba hari indabo na pasiparume ku ruhande.

Icyapa kitugaragariza yuko aho tugeze ari ibitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga tukaba tubona aho bivuriza ndetse hakaba hari amatara amurika akaba hari umuhanda w'igitaka ibiti n'abantu bagiye batandukanye, havurirwa indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako ndende ziri mu bwoko bumwe, ziri mu mabara y'umweru n'ibirahure by'icyatsi n'umuhanda ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, hakaba hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Mu cyumba gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari ab'igitsina gore bashobora kuba ari abadamu cyangwa abakobwa bicaye ku ntebe z'imbaho bari mu myambaro itandukanye, uwambaye agasengeri k'ubururu n'icyo hasi cy'umukara usutse yambaye n'amadarubindi ndetse n'undi wambaye agapira k'umuhondo n'icyo hasi cy'umukara, imbere yabo hakaba hari za mudasobwa.

Umudamu wicaye mu cyumba cy'inama, ufite amazi ndetse na ji biteretse imbere ye ndetse n'impapuro afite ikaramu mu ntoki, yambaye isaha isa n'iya zahabu ndetse n'umukufi wa zahabu n'ikote ry'ubururu.

Inama rusange yahuje abaturage ndetse n'abayobozi babo bicaye munsi y'ibiti birebire n'undi uhagaze ufashe umutaka ari gutwikira abari kuba babagezaho iyo nama n'undi uhagaze wegamiye igiti usa naho bari kumuhata ibibazo runaka.

Umugororwa uri mu myambaro yabo ya move ufite igitabo mu ntoki kizwi nka logisitire, yambaye agapfukamunwa k'umweruru wogoshe, wicaye mu ntebe y'umukara yitabiriye ibijyanye n'iburana n'iburanishwa byiwe

Uw'igitsina gore wambaye umwambaro urimo umutuku ndetse n'umukara, akaba afite ibisuko arirabura akaba asa n'umucamanza kubera imyambaro yambaye.

Umufungwa ukuze uri mu myambaro y'iroza, agapfukamuwa k'iroza wambaye amadarubindi ndetse ufite amadokima y'iwe mu ntoki n'umucungagereza umuri inyuma wambaye imyambaro yabo n'agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi amucungiye umutekano.

Inyubako ifite urukuta rurerure bigaragara nkaho ari gereza ndetse n'umunara mu ibara ry'umutuku, ugaragara nkaho ariho ushinzwe umutekano aba ari.

Icyapa kigaragaza uburyo ki bacaga imanza nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe na maganacyenda mirongo icyenda na kane, ikizwi nk'inkiko gacaca aho bavugaga ko ukuri gukiza, tuvuge ibyo twabonye twemere ibyo twakoze bizadukiza.

Umudamu wambaye ingofero ndetse n'umwambaro w'abacamanza, umwambaro usa umutuku urimo amabara y'umweru ndetse n'utwumukara duke, ufite ibisuko wambaye amadarubindi, iruhande rwe hakaba ari idarapo ry'igihugu, hagaragara izuba ndetse n'ibara ry'ubururu.

Mu cyumba kiberamo ubucamanza hari abarimo kurahira bari mu myambaro y'umukara ndetse n'akandi k'umweru mu ijosi biganjemo abagabo ndetse n'abagore impande yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u rwanda riri mu mabara atandukanye umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu barimo kurahira..

Mu Rukiko, aho baburanisha ibyaha bigiye bitandukanye, umugororwa uri mu mwambaro wabo wambaye ishati ndetse n'agapfukamunwa kari mu ibara rya move, afite n'agatabo mu ntoki.

Amadarapo y'u Rwanda ari mu rukiko, imbere hakaba hari abacamanza, hino hicaye abavoka n'abashinjacyaha bitabiriye umuhango utandukanye ushobora kuba ari uwo kurahira cya kurahizwa.

Igororero ry'Akarere ka Muhanga ryatangiye mu igihumbi kimwe n'amagana cyenda mirongo irindwi n'agatatu, bikaba rizwi nka Muhanga Prison mu ndimi z'amahanga, aho hari abagororwa baba mu myambaro yabo ya oranje ndetse n'ababacungira umutekano babafasha kugororwa, bari mu myambaro yabo ya kaki aribo tuzi nk'abacunga gereza.

Igazeti ya leta y'u Rwanda yanditse mu ndimi zigiye zitandukanye, harimo ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igifaransa.

Icyapa kiri ku muhanda gifashe ku byuma biteye haruguru no hepfo y'umuhanda kitwereka igororero rya Gicumbi, hirya no hino y'umuhanda hakaba hari ibiti bihateye ndetse imbere hakaba hari icyapa kiririmo ubwoko bw'umuzenguruko gifite ubuso bw'umutuku, ibirango by'umweru, ndetse n'inzu y'ubururu irihitaruye imbere.

Abayobozi b'inzego zitandukanye, harimo abacunga umutekano mu nzego zitandukanye ndetse n'umucamanza mukuru, aho bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari ikirangantego cy'igihugu, bari mu myambaro yabugenewe n'abandi bambaye amakositimu n'umucamanza uri mu mwambaro w'umutuku n'ingofero.

Ushinzwe umutekano uri mu myambaro yabo, umu polisi wambaye jile irimo imirongo y'umuhondo ndetse n'imyambaro yabo y'ubururu bwijimye, n'inkweto z'umukara, uhagaze mu gisate cy'abanyamaguru. Hafi y'ahambukirwa n'abanyamaguru harimo imirongo y'umweru hasi mu muhanda.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe umutekano kizwi nka polisi, kuri sitasiyo ya Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ahakorerwamo ibikorwa bitandukanye byo gucunga umutekano muri ako gace ndetse no gufunga abakoze ibyaha bigiye bitandukanye muri ako gace.

Mu kibuga ahabigenewe mu gukorerwa ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, ibizwi nka driving license mu ndimi z'amahanga. Hakaba hari ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye. Ahakorerwa ikizamini hakaba hari abapolisi babugenewe. Umwe uri imbere ndetse n'undi uri inyuma. Ndetse n'amakona ashinze yifashishwa mu gukora ikizamini, arimo ibara ry'umutuku n'uturongo tw'umweru.

Urukuta runini cyane rwubakishije amatafari y'uburu ndetse n'andi ahiye, ku matafari y'ubururu handikishije amagambo manini mu ibara ry'umweru yanditse ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge bikijwe n'indabyo nziza.

Umuhanda uri kunyurwamo n'abanyeshuri mu gisate cy'abanyamaguru ndetse n'abapolisi babiri bahagaze bari mu myambaro yabo amakoti maremare ari mu ibara ry'umuhondo ndetse hasi mu muhanda bigaragara yuko imvura yaguye, no hakurya hakaba hari inzu ifite amarangi y'umutuku ndetse n'imodoka n'amamoto bira kunyura mu muhanda.

Icyuma/igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro kiba mu nyubako zigiye zitandukanye kugira ngo hirindwe inkongi y'umuriro; kiri mu ibara ry'umutuku handitseho amagambo y'umweru ariyo faya hosi rili; mo mbere hakaba harimo urutsinga rurerure ruhura n'ikidendezi cy'amazi yifashishishwa mu kuzimya umuriro mugihe wabaye.

Ku muhanda ahaparitse imodoka ndetse hakaba hari n'umupolisi uhagaze yambaye ijire y'abapolisi iri mu ibara ry'umukara ndetse n'imirongo y'umuhondo, afite akuma kabugenewe ndetse na perimi ari cyo cyanyangombwa cyemerera umuntu mu gutwara imodoka ku buryo bwa burundu arimo gusuzuma ibintu runaka.

Umupolisi muri inifomu zabo ahagararanye n'umuturage w'igitsina gabo wambaye agapira ka bege ipantaro y'ubururu n'inkweto zifunguye n'agapira ku rutugu, ku nkombe z'umuhanda ahagenewe kunyurwa n'abanyamaguru, mu muhanda rwagati hakaba hari undi uri kubanyuraho wikoreye umufuka, n'imbere yabo hakaba hari inyubako y'umuturirwa, hirya aho ari ishyamba.

Abapolisi babiri bo mu muhanda umwe afashe moto iri mu ibara ry'umweru, ku gice cyo haruguru hari icyapa kitwereka inzu iriho iduka rya gudu rayifu n'imbere yabo hakaba hari n'indi modoka iri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiturangira aho urwego rushinzwe ubugenzacyaha ribu rwanda invesitigesheni biro ukorera muri muri nyamirambo hakaba hari umurongo ushobora kubabonaho utishyurwa rimwe, gatandatu, gatandatu, mirongo itatu na gatanu, cumi na kabiri ndetse na makumyabiri mirongo irindwi.

Umupolisi wa leta y'u Rwanda wambaye impuzankano ze, iruhande rwe hari imodoka y'umukara ifite ibirahuri byijimye ndetse ari kubaza uyirimo ibyangombwa, inyuma yayo hari inzu y'amagorofa.

Icyapa kitwereka aho polisi iri muri Nyarugenge kuri sitasiyo ya Rwezamenyo hakaba hariho telefone na imeri icyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru n'ibirango ikirango cy'igihugu n'icya polisi n'amagambo yandikishijwe amabara y'ubururu .

Abapolisi b'u Rwanda mu mpuzankano zabo imbere yabo hari umuyobozi uri kubaha ikiganiro nyuma ya hari imodoka nini n'intoya zisa z'umweru ndetse nyuma y'izo modoka hari ishyamba ry'ibiti birebire n'ikirere.

Imodoka ya polisi, ihagaze ku muhanda, ifite ibirango bya polisi ndetse ikagira purake RNP cumi na kane, kabiri esi n'umupolisi uhagaze mu muryango wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'imyambaro yabo yabugenewe iri mu ibara ry'ubururu bwijimye. Imodoka ikaba izwi ku izina ry'agacurama.

Umupolisi uri mu myambaro yabo y'ubururu bwijimye, ndetse n'ijire irimo amabara y'icyatsi cyerurutse, yanditseho polisi, arimo guhagarika imodoka mu muhanda ayereka aho iparika, kugirango bagenzure ibintu bimwe na bimwe, hari ibiti, amatara ku muhanda, ku nkombe z'umuhanda, ndetse n'icyapa kigaragaza umuvuduko umuntu agomba kugendaraho mirongo itandatu.

Umudamu ukenyeye igitenge yambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, akaba yambaye impeta ku kuboko, ndetse n'agakomo akaba afite umusatsi mwinshi ku mutwe, arirabura akaba arimo guseka inyuma ye hakaba hari ibiti birebire.

Mu cyumba kiberamo bakurikirana ibikorwa by'amatora ibizwi nka elegishoni obusaveshoni mishoni mu ndimi z'amahanga, hari abantu bagiye batandukanye baturutse mu bihugu byo hirya no hino mu gukurikirana uko igikorwa cy'amatora kigenda.

Abanyamuryango b'ishyaka pe esi de bari mu myambaro y'umweru bafite amadarapo ndetse bambaye n'ingofero z'umweru aho bitabiriye igikorwa cyo kwamamaza abadepite babo.

Umukandida wigenga Mpayimana Philippe yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu gihe cyo kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, akaba yari yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru ndetse n'ikaruvati, imbere ye hakaba hateretse mikoro zigiye zitandukanye ndetse akaba arimo gukora kuri mudasobwa.

Abagabo babiri bicaranye n'umugore umwe, uwo mugabo wo hagati afashe indangururamajwi ndetse hari n'izindi zimuteretse imbere, ku meza yabo hateretse amazi ndetse imbere y'ameza hari ibyapa byo kwamamaza umukandida ugomba gutorwa.

Mu nteko shingamategeko harimo kubera igikorwa cyo gutora. Bisa n'umugabo uhagaze yambaye ikositimu iri mu ibara ry'ubururu n'ishati y'mweru mo imbere ateruye agaseke. Hakaba hari n'undi mugabo wicaye imbere urimo gushyiramo ibahasha yiwe, hari na murandasi imuri imbere ariyo copyuta n 'abagore babiri ku mpande n' idarapo ry' ikirangantego ry' igihugu.

Mu nteko nshingamategeko ahabera inama zigiye zitandukanye, harimo abantu mu ngeri zose, abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi na za mudasobwa, bicaye mu ntebe z'umukara, bakaba no mu myambaro igiye itandukanye.

Umugabo n'umugore bari mu myambaro y'umukara. Umugore wambaye ikanzu y'umukara, amadarubindi, uri kumwenyura, n'imisatsi. Ndetse n'umugabo uri mu mwambaro wa kositimu y'umukara n'ishati y'umweru n'amadarubindi. Bakaba bafashe icyapa kigaragaza yuko bari kumurika igikorwa cyabo bise tiriveni bibiri na mirongo itatu porojegiti.

Uko amatora yagenze ya perezida wa repubulika y'u rwanda mubihumbibiri makumyabiri na kane itariki cumi n'enye na cumi n'eshanu ukwezi kwa karindwi bagenda bagaragaza uburyo amajwi yagaragaye mu gutora umukandida wa RPF kagame paul.

Mu nteko rusange ahabera inama zigiye zitandukanye, ariko hakabamo amatara, intebe z'umukara, ndetse harimo ingeri zose z'abantu bagiye batandukanye abagore ndetse n'abagabo bari mu myambaro igiye itandukanye bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye.

Ahari kubera igikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukandida wo mu ishyaka gurini pati Frank Habineza, mu gihe cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho ababaga bamushyigikiye mu ishyaka ryiwe babaga bambaye imipira isa n'icyatsi.

Ni inzu iberamo inama zinyuranye aho ari ingeri z'abantu batandukanye bayitabiriye abadamu, abagabo bicaye mu ntebe z'umukara imbere yaho hakaba hari utwo bifashishisha bavuga turangurura amajwi ndetse hakaba hari n'amacupa y'amazi abagabo bakaba bari mu myambaro y'ikositimu izwi nk'iyambarwa n'abanyacyubahiro ndetse n'abategetsi.

Mu muhanda rwagati ahanyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka mamoto ndetse n'amagare n'abanyamaguru bafite igisate cya bo hakurya y'umuhanda hakaba hari sitasiyo aho tuzi nk'aho ibinyabiziga binywera ensance mu ndimi z'mahanga.

Mu muhanda rwagati ahanyurwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amamodoka, moto ndetse n'amagare, hakaba hari igice kigaragara ko cyambukirwamo n'abanyamaguru, hakaba hari n'umuyoboro w'itumanaho n'amashanyarazi ushinze ku gisate cyo hirya y'umuhanda ndetse hakaba hari n'ibiti.

Mu muhanda, ahaparitse igikamyo, hino yaho hakaba hari umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru, kikaba cyikoreye ibintu bigiye tandukanye; imifuka irimo ibicuruzwa runaka, amakarito, ndetse kikaba cyambaye amapine y'umukara.

Mu muhanda ahari kunyura ibinyabiziga bitandukanye, harimo amamodoka manini n'amatoya ndetse no ku gisate cyahariwe kunyuramo abanyamaguru, ahari abari gutambuka bagiye batandukanye ndetse hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire.

Imodoka iba ifite ibara rya gureyi iri mu muhanda hakurya yayo hakaba hari ibiti ndetse n'amatara ateye ku nkombe mpimbano z'umuhanda amurikira abawukoresha mu masaha ya nijoro cyangwa mu gihe hatabona, ikaba ifite plaque eri aji mirongo itanu na kane zeru, ti.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka, moto ndetse n'abanyamaguru banyura mu gisate cyabo ahari utumoto tuzwi ku izina rya rifani hadibodi turi mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hakaba hari imiturirwa miremire ikorerwamo ubicuruzwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye.

Mu muhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari ibikamyo bibiri biri mu byerekezo bitandukanye, icy'umutuku ndetse n'icy'umuhondo cyikoreye matela hatwikirijeho shitingi y'umuhondo ndetse n'amatara maremare amanitse ku nkombe mpimbano z'umuhanda zimurikira abawukoresha mu gihe cya n'ijoro ndetse n'ibiti biri hakurya y'umuhanda.

Mu mujyi rwagati ahaparitse moto z'ubwoko bunyuranye, ndetse hakaba hari n'icyapa kinini cya kokakora ikinyobwa, ndetse hakurya hakaba hari n'igorofa rirerire ryubakishije ibirahure ndetse n'imodoka zinyuranye ziri gutambuka mu muhanda.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri mu mabara y'ubururu ndetse n'akeru gakeya, isa n'iri kunyura kuri sitasiyo ya esipi ndetse na moto itwaye umugenzi iri kunyura ku nkombe mpimbano z'umuhanda aho abanyamaguru banyura, ikirere kirasa n'ikijimye ariko bitari cyane.

Mu muhanda rwagati hari kunyura ikinyabiziga kizwi nka moto itwaye umugenzi, hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti ndetse na korotire ifite ibara ry'umweru, mo imbere hakaba harimo ibiti ndetse n'amapoto ashinze ku muhanda n'ibyuma biriho amatara, ibara ry'umweru n'ubururu amurikira abakoresha amasaha ya nijoro.

Mu muhanda imodoka y'icyatsi n'umukara irimo iratambuka ndetse hari n'indi nini y'umweru itwara abagenzi iri ku ruhande ndetse n'umumotari nawe ari ku ruhande, inyuma yabo hari ibiti birebire by'icyatsi.

Muri gare aho abagenzi bafatira imodoka zibajyana mu bice bitandukanye hari imodoka zigiye zitandukanye; inini, intoya ziri mu mabara y'umweru hakaba hari umugenzi uhetse igikapu cya shokora, n'ipantaro y'ikijuju, n'ikoti ry'ikoboyi afite amvirope mu ntoki.

Mu muhanda rwagati hanyurwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abanyamaguru bakoresha umuhanda, ahari imodoka itwaye imiti y'akarere, imodoka y'umweru ndetse n'umukarani wikoreye umufuka n'ibiti biri hakurya y'umuhanda.

Mu muhanda urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo moto abazitwaye bambaye jire y'ubururu n'umuhondo na moto zabo, mu gisate cy'abanyamaguru bari kugenderamo.

Urujya n'uruza rw'imodoka ziva n'izijya riri mu muhanda hagati, imodoka nini y'umweru n'umukara itwikirije ihema ry'ubururu, hakurya yayo hari imodoka ntoya ndetse n'umunyonzi utwaye umuzigo ku igare hakurya ye hari ibiti birebire ndetse n'amazu.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye n'abanyamaguru harimo moto iri kugenda mu muhanda ndetse n'imodoka izwi nk'igikamyo, isa umweru harimo n'amabara y'umutuku yambaye amapine y'umukara, handitseho amagambo yo mu gishinwa hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire bihateye.

Mu muhanda ahari igikamyo cy'imitambiko ibiri cyambaye amapine y'umukara gifite ibara ry'umutuku cyikoreye ibintu bigiye binyuranye hashobora kuba harimo umucanga cyangwa amabuye, hasi mu muhanda hakaba hari uturangacyerekezo ndetse n'aho abanyamaguru bambukira harimo n'ibindi binyabiziga binyuranye nk'amagare na moto.

Mu muhanda rwagati hanyura ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abakoresha umuhanda bazwi nk'abanyamaguru ahari imodoka iri gutambuka iriwi ibara ry'umweru yambaye amapine y'umukara yikoreye amatafari yo kubaka hejuru hatwikirije shitingi hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire.

Imodoka itwara imizigo iri kubisikana n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iruhande rw'umuhanda hari umugenzi uri gutambuka impande ya rigore, uhetse ibaga y'icyatsi ndetse wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'ubururu, n'ingofero y'ubururu.

Umunyonzi wambaye agapira k'umuhondo gafite ingofero ya move n'ipantaro y'umukara irimo amabara y'umweru, atwaye umugenzi wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki bari kubisikana n'imodoka y'umweru, hakurya y'imodoka hari ibiti birebire by'icyatsi.

Mu muhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye amamoto, imodoka, magare ndetse n'abanyamaguru banyura mu gisate cyabo, ahari imodoka nini y'imitambiko ine kizwi nka rukururana, ifite ibara ry'icyatsi hakurya hakaba hari moto iri kunyura iruhande rwayo ndetse n'ibiti biri hakurya y'umuhanda.

Muri gare ahakorerwa ibikorwa bitandukanye haparika amabisi y'ubwoko butandukanye, imodoka nini ndetse n'intoya zizwi nka kwasiteri ndetse na tagisi zitwara abagenzi zibajyana mu bice bigiye bitandukanye.

Mu muhanda rwagati harimo ikamyo iri mu ibara ry'umutuku yikoreye umucanga ifite imitambiko urenze ibiri, hakurya y'umuhanda hakaba harimo ibiti ndetse n'umunyonzi mu muhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga bito n'ibinini, hari imodoka itwara imizigo mu ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'abamotari batwaye abagenzi mu muhanda.

Rigori icamo amazi yanduye impande y'umuhanda, imbere yayo hari imodoka ntoya itwara imizigo iparitse ndetse n'abagenzi bari guca ku ruhande rw'inzira, imbere yabo bose hari inyubako y'igorofa rirenze rimwe, inzu ifite urugi ruteye irange ry'umukara.

Mu muhanda rwagati, ahanyurwa n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo akamoto, kazwi nka rifani, kari kugenda, n'igare ritwaye umugenzi uteruye umwana, hirya y'umuhanda hakaba hari ishyamba ririmo ibiti birebire, no ku nkombe z'umuhanda hari umunyamaguru uri gutambuka.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga mu muhanda, harimo abamotari ndetse n'amamodoka matoya, ashobora kuba ari ay'abantu ku giti cyabo atwaye abagenzi mu muhanda, inyuma y'umumotari haragaragara umukozi ukora mu busitani buba mu muhanda rwagati, ukorera imikindo n'ibindi biba mu busitani.

Takisi ntoya mu mabara y'icyatsi n'ubururu ndetse n'umweru, ifite amapine yumukara nta bagenzi barimo imbere yayo hari imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi mumabara y'umukara n'icyatsi nta bagenzi barimo.

Imodoka eshatu ziparitse zikurikiranye ibumoso bw'umuhanda, imbere yazo hari jaride y'ibiti birebire ndetse n'urukuta rw'inzu yubatse mu mabara y'ubururu bw'ikirere.

Mu muhanda hari kunyura imodoka izwi nk'ikamyo, iriho ibirango bya shayini, uruganda ruzwiho gukora amavuta agiye atandukanye ayo kwisiga, ayo mu misatsi, amasabune yo gukoropesha mu nzu, ay'ibyombo, ayo muri tuwalete ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga bikoresha umuhanda bigiye bitandukanyekanya harimo moto, imodoka, hakaba hari igikamyo gifite ibara ry'umutuku n'indi modoka y'umweru ihetse ipine ry'umukara na lifani itwara imizigo igiye itandukanye, hariho nimero za telefoni zeru karindwi cyenda rimwe tanu n'icyenda tatu kabiri mirongo icyenda na gatatu ndetse no hakurya hari ibiti birebire.

Umumotari mu muhanda rwagati utwaye moto ageze aho abanyamaguru bambukira, hakurya yiwe hari ibiti binini by'icyatsi ndetse n'inyubako y'umuturirwa iri mu mabara y'ubururu ndetse na kaki.

Mu muhanda rwagati hari kunyurwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye amamodoka, amagare ndetse n'amamoto mu modoka zirimo amarangi y'umweru ndetse no ku gisate cy'abanyamaguru ahari kunyura umusaza ufite agakapu mu ntoki ndetse n'ibiti biri hakurya y'umuhanda n'amatara maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cya nijoro.

Mu muhanda rwagati, ahari imodoka ifite ibara ry'umweru, yambaye amapine y'umukara ndetse ifite ibyuma bifasheho ku mpande zombi, ikaba ipakiye amatafari akoreshwa mu kubaka, ikaba iri mu bwoko bw'ikamyo hakurya y'umuhanda hakaba hateye ibiti ndetse mu nzira y'abanyamaguru hakaba ari umunyamaguru uri gutambuka, uteruye akantu k'ubururu mu ntoki, bizwi nk'agapaniye yambaye umupira w'umutuku.

Mu muhanda rwagati harimo hanyura imodoka z'ubwoko butandukanye, inini ndetse n'intoya, aho hari inini yikoreye uburyamiro, ibizwi nka matora, bitwikiriweho na shitingi ndetse bizirikishije imikoba kugirango ngo itabagwa, ndetse n'indi moto ntoya izwi ku izina rya rifani hakurya hakaba hari ibiti.

Mu muhanda rwagati ahari urujya n'uruza rw'imodoka zigiye zitandukanye ndetse na moto zihetse abagenzi n'imodoka yambaye ibirango igaragaza kwamamaza iby'abana bambara bizwi nka pampex mu ndimi z'amahanga. Hakuno y'umuhanda hakaba hari rigori ndetse n'aho abanyamaguru banyura.

Mu muhanda rwagati ahari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande rwo guparikamo haparitse ikamyo yikoreye imizigo iri mu mufuka ndetse n'izindi zige ziri kugenda mu byerekezo bitandukanye n'ibiti biteye ku nkombe z'umuhanda.

Imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara itwikije ihema ry'bururu ndetse n'umweru ipakiye imbere yayo hari izindi modoka ziparitse kuri sitasiyo ifite amabara y'icyatsi n'umweru.

Imodoka ntoya mu mabara yazo y'umweru zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zihagaze aho imodoka ziparika, inyuma yazo hari umukozi wambaye impuzankano y'abakozi ba MTN ndetse uri mu mutaka w'ikirango cy'abakozi ba Airtel.

Mu muhanda harimo kunyura ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini iri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo na moto itwaye umugenzi, uyitwaye yambaye ikasike y'umutuku, ijire y'umuhondo n'ubururu ndetse n'ibiti biteye haruguru y'umuhanda.

Imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iri mu mabara y'ubururu n'umweru iparitse mu muhanda, ariko w'igitaka umeze nk'uwasenyutse urimo ibiziba, ikidendezi cy'amazi ndetse hari abantu bicayemo hirya hari umusozi uriho ibiti.

Mu muhanda ahanyurwa ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka, moto ndetse n'abanyamaguru. Hakurya yaho hakaba hari ibiti birebire bidufasha mu guhumeka umwuka mwiza ndetse n'ipoto ririho itara rishinze ku nkombano z'umuhanda n'umukarani wikoreye umufuka, wambaye igisarubeti by'ubururu.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko arimo voreboru, imbere yacyo hakaba hari amazu yubatse mu bwoko bumwe agiye atandukanye, n'ibiti biyakikije n'izindi ndabo ziri ku ruhande rw'ikibuga n'ibyatsi.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru icyo twizi nka futubolo ahakinirwa umupira w'amaguru haba hari amazamu ndetse buri kipe ifite izamu ryayo ariho batsindira ndetse bakanatsindirwa.

Akaranga cyeyerekezo cyangwa se icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru, kiri mu ishusho ya mande enye kikaba gifasha kuranga kiduha icyerekezo cy'aho tugiye.

Ifoto igaragaza icyapa cyo ku muhanda, kiranga amasangano y'inzira cyangwa se amasangano y'imihanda mu ibara ry'umuhondo n'umukara bikigize.

Icyapa kitugaragazariza ibikorwa bigiye bitandukanye kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bwa oranje ndetse n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umukara ariyo sitiriti wakahedi.

Icyapa gishingwa ku nkombe mpimbano z'umuhanda, kiri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara, ushingwa ahagaragaza y'uko hafi aho hari ivuriro cyangwa ibitaro.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Igisate cy'umuhanda haruguru ye hambukirwa n'abanyamaguru ahari icyapa kiri mu ishusho ya mande enye umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ibirango by'umweru, hashayijemo imodoka ndetse n'ijambo p bisobanura parikingi aho imodoka zihagarara.

Icyapa gishinze ku nkombe mpimbano z'umuhanda, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, kiri mu ishusho y'umuzenguruko, haruguru yaho hakaba hari inzu zigiye zitandukanyekanye, n'indi iri hirya isa n'itaruzura bakiri kubaka, n'indabo ziteye bikaba bigaragaza umuvuduko abagenderaho kuri uwo muhanda.

Mu muhanda haciyemo uturongo duciye ducagaguye mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ahubakiye ibiti by'imitako bizwi nk'imikindo, gakolotirijwe amabara y'umukara ndetse n'umweru, hakurya y'umuhanda hakaba hari inyubako y'igorofa iteyemo ibiti.

Ifoto y'icyapa cyo ku muhanda, mu mabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku akigize.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Ku nkombe mpimbano z'umuhanda ahari ibyapa bibiri bigizwe n'umuzenguruko w'umutuku , ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara .Icyapa kiri hejuru kiratwereka ko aho hafi hari ivuriro ndetse n'ikindi kitwereka y'uko aho hafi hari ikigo cy'amashuri, hakaba hari n'amapoto ku muhanda ariho insinga ndetse n'amatara.

Icyapa gishingwa ku nkombe mpimbano z'umuhanda kugira ngo kiyobore abawukoresha ikiri imbere yabo, aho dufite icyapa kiri mu ishusho y' mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara kirimo abana bifatanye mu ntoki bigaragaza yuko hafi aho hari ishuri.

Icyapa kimanikwa ku nkombe mpimbano z'umuhanda kiri ku muzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, kigaragaza aho abanyamaguru bambukira mu muhanda bashaka kujya mu byerekezo bitandukanye.

Icyapa gishingwa ahabugenewe cyane cyane ku nkombe mpimbano z'umuhanda ndetse no ku bibuga by'indege, kiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirangantego cy'umukara kiri mu nyuguti ya P hacimo umurongo w'umutuku kituburira ko bitemewe guparika aho hantu.

Ibyapa bishingwa ku muhanda biri mu ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, kimwe gifite ibirango by'umukara, ahagaragara imodoka ndetse n'ikindi kirimo amatara atandukanye bizwi nka feruje, bikaba bishingwa ku muhanda bifashishwa mu kuyobora abawukoresha.

Icyapa kiri mu ishusho ya pande enye umuzenguruko w'umweruru ubuso bw'ubururu, ndetse n'ikirango cy'umweru kiririmo bisi kituburira yuko aho ngaho ari ho dukwiye guparika bisi bizwi nka Bus stop mu indimi z'amahanga.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo n'ibirango by'umukara. Gishingwa ku nkombe mpimbano z'umuhanda, kiri kwerekana abakoresha umuhanda ibyago bashobora guhura na byo, kibaburira uko bakoresha umuhanda.

Imihanda inyuranye, icyapa cy'ubururu, kiri kuranga amerekezo y'aho bisi ziparika, ndetse n'abamotari mu muhanda, utakishijwe amabara y'umukara, ndetse n'imirongo y'umuhondo miremire hagati.

Igorofa rirerire rikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ubucuruzi ndetse n'ibindi binyuranye. Imbere hakaba haparitse amamodoka ndetse akaba ari n'amamoto ahaparitse n'andi ari mu muhanda, n'abanyamaguru barimo gutambuka. Hakaba hari amapoto ariho insinga z'umuriro ukwirakwizwa hirya no hino, ndetse n'amatara maremare amuririka umuhanda mu gihe cya n'ijoro.

Umuturirwa ugeretse gatatu hariho ku ruhande rwarwo hepfo, ipoto igaragaza uko amashanyarazi agenda, ndetse hakaba hari n'icyapa kitwereka ibikorwa bibera aho ahantu, ari cyo inesiko ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'ikiremwamuntu.

Ibikorwaremezo bya leta birimo inyubako n'imihanda, igorofa rirerire ibizwi nka etaje mu ndimi z'amahanga yubatse mu buryo bwa kijyambere, ahari abaturage bari kuhanyura ndetse no hirya yayo hakaba hari ibiti bidufasha mu mihumekere biduha umwuka mwiza uzwi nka ogisijeni mu ndimi z'amahanga.

Ahari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, amazu meza y'imiturirwa yubatse mu buryo bugezweho, hakaba hari n'umuhanda ukoze neza ndetse n'amapoto ajyana amashanyarazi hirya no hino mur’izo ngo.

Icyapa kiturangira aho akarere ka mbugo gaherereye muri metero ijana ndetse n'ikindi cyapa gitoya kiri munsi kitwereka isibo yitwa Ubwitange, mu mudugudu wa Rwinyange, akagari ka Rwimbogo, umurenge Nyarugunga.

Inzu z'amagorofa zigiye zitandukanye zubatse mu buryo butandukanye, ziri ku muhanda w'igitaka unyurwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo imodoka, moto ndetse n'amagare.

Umuhanda ukoreshwa n'abantu ndetse n'ibinyabiziga, ahaparitse abamotari benshi ndetse n'ama modoka ari mu muhanda, hakurya har’inyubako y'igorofa rirerire ikoreramo ibigo bitandukanye harimo ama bank, equity bank ndetse n'ibigo bitanga ubwishingizi nka MUA n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu muhanda w'igitaka harimo moto itwawe na nyirayo, yambaye ikasike y'umutuku ndetse akaba yambaye n'ikoti ry'umukara, hirya no hino hakaba hari amazu ayo guturwamo ndetse n'ay'ubucuruzi, ku nkombe z'umuhanda hakaba hari amapoto ndetse n'amatara amurika nijoro n'indobo n'amabasi biteye imbere y'imiryango y'abacuruzi.

Ahasohokerwa n'abantu ingeri zigiye zitandukanye hasa neza, hari intebe n'ameza bikozwe mu biti ndetse n'indabo zihakora umutako, bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibyo kunywa by'ubwoko busembuye ari zo zizwi nk'inzoga.

Inyubako ndende iriho imitako igiye itandukanye, y'imigongo ndetse imbere yayo hakaba hari amamaneke yambaye imyambaro itandukanye, iy'abagabo ndetse n'iy'abagore n'abandi bantu batari bake bahagaze imbere, bambaye ibisarubeti by'ubururu n'icyapa kitwereka ko abantu bitwa momenta bacuruza ndetse na simati saruni iri ku ruhande.

Inyubako y'umuturirwa ifite ikigega hejuru igaragara nk'iyo guturwamo cyangwa gukorerwamo, insina haruguru yayo zeraho ibitoki, igipangu kiri mu ibara ry'icyatsi harimo imbaho mu imbere n'umuntu uhagaze iruhande n'ikindi kiri mu ibara ry'ubururu.

Igice gisa nkaho ari icyaro kirimo kuzamurwamo imiturirwa myiza ya kijyambere, hakaba hari amazu agiye atandukanye ndetse n'ibiti bikikije hafi aho ngaho n'umuhanda w'igitaka.

Mu muhanda rwagati harimo imirongo iri mu ibara ry'umuhondo, ndetse hubakiwe akantu karimo ibiti, kari mu mabara y'umweru n'umukara, ndetse n'imodoka n'ibindi binyabiziga biri mu muhanda ariko bitari byinshi.

Ni umuhanda ufite ikiraro, munsi y'ikiraro harimo undi muhanda muremure, uri kugenda unyuraho abagenzi ku ruhande babisikana n'imodoka, hari ibiti birebire ndetse n'inzira zicamo amazi.

Umumotari mu muhanda utwaye umugenzi wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari urugo ruzitijwe uruzitiro rufite amabara y'umweru rukikijwe n'ibiti birebire hakurya hari icyapa cy'ubururu.

Mu muhanda rwagati ahanyurwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye: imodoka, amamoto, amagare, hari kunyura ikinyabiziga kizwi nk'ikamyo cy'imitambiko ibiri; ndetse hakurya no hakuno y'umuhanda hakaba hari ibiti bihakikije, bidufasha mu kuduha umwuka mwiza wo guhumeka ari wo uzwi nka oxygen mu ndimi z'amahanga.

Ibikorwa remezo birimo umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka, amagare ndetse na moto hakaba hari amapoto ashinze ku muhanda akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino ndetse n'ibiti bihakikije bidufasha mu mihumekere biduhereza umwuka mwiza.

Mu muhanda ahagana n'ijoro amatara ari kwaka, ku nkombe zawo n'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda byacanye amatara, n'abanyamaguru bari kugenda hirya no hino, n'indabo ziri ku nkombe yaho.

Mu muhanda rwagati hari kunyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amamoto, hakaba hari uturongo tw'umweru tw'uturangakerekezo dushushanyije mu muhanda tuyobora abari kuwukoresha ibyerekezo byo kunyuramo ndetse hakaba hari n'ibiti biteye ku nkombe mpimbano z'umuhanda n'agasozi kari hakurya karimo ibikorwa bigiye bitandukanye nk'amazu.

Mu muhanda rwagati ahari kunyura urujya n'uruza rw'imodoka zigiye zitandukanye, ibikamyo n'izisanzwe ndetse na moto, hakaba hari imodoka iparitse ahabugenewe n'akazu kari ku nzira y'abanyamaguru kicaramo abategereje ibinyabiziga, hirya no hino y'imihanda hakaba hari ibiti bihateye.

Mu muhanda ukoreshwa n'abanyamaguru ndetse unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse na moto ahambukirwa n'abanyamaguru harimo imirongo y'umweru ikurikiranye, harimo abanyamaguru barimo kwambuka bagiye batandukanye ab'igitsina gore ndetse nb'igitsina gabo.

Mu muhanda rwagati hari kunyura ibinyabiziga, mu byerekezo bitandukanye bizwi nka moto. Hakurya y'umuhanda hakaba hateye ipoto ry'umashanyarazi, ndetse n'itara rimurika mu muhanda, n'ibiti biri ku nkombe mpimbano z'umuhanda.

Umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga birimo imodoka moto n'amagare, ahari ibiti hirya no hino y'umuhanda ndetse n'amatara ashinze ku nkombe mpimmano z'umuhanda adufasha mu kumurika nijoro n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi ndetse n'ashinzwe guparika imodoka ahazwi nka parikingi n'igisate cy'abanyamaguru.

Umuhanda umanuka winjira mu wundi, ahaparitse igare ndetse haruguru yaho hakaba hari ishyamba n'amazu yitaruye haruguru ndetse n'ipoto rimurika nijoro n'insinga z'amashanyarazi ziyakwirakwiza hirya no hino.

Nimugoroba amatara yo ku muhanda araka, igare riparitse ku ruhande, ibinyabiziga byamaze gucana amatara ndetse, mu masangano y'imihanda aho abagenzi bambukira ni ku kiraro, hari umugenzi utegereje ko, amatara yo ku muhanda amuha uburenganzira bwo kwambuka.

Mu muhanda rwagati harimo ibinyabiziga bibiri, imodoka iri mu ibara ry'umutuku ndetse na moto ihetse umugenzi, mu muhanda hasi hashushanyijemo imirongo, hakurya y'umuhanda hari ishyamba ndetse n'icyuma cyabugenewe mu kugenzura ibinyabiziga biri mu bigenda mu muhanda kizwi ku izina rya sofiya.

Umuhanda w'ibitaka unyura hagati y'amazu hirya no hino, hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'inyubako zitandukanye, hepfo hakaba hari undi muhanda wa kaburimbo unyurwamo n'amamodoka, umuhanda ukaba urimo ibinogo byinshi, ku buryo imvura yaguye byateza ikibazo kuwunyuramo.

Umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, moto, imodoka ndetse n'amagare n'abanyamaguru mu gice cyabo, hakaba hari icyapa kiturangira ishuri ryitwa ekore Abitonda farankofone bigisha ibigiye bitandukanye abana batoya ndetse na pirimeri n'ishyamba riri hafi ahongaho.

Mu muhanda rwagati ahanyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye imodoka, amagare ndetse na moto, hakaba hari amashyamba ateye ruguru yawo n'ibiti, n'amatara ashinze ku nkombe mpimbano z'umuhanda ndetse no muri rompuwe hagati amurikira abawukoresha mu masaha ya nijoro.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'umutuku, imbere ubuso n'umweru, ikirango n'umukara. Iki cyapa kirereka abayobozi b'amamodoka ko imbere aho bari kujya hari kubera ibikorwa by'ubwubatsi.

Imihanda ibiri isa n'igerekeranye umwe uri hasi undi uri hejuru bikoreshwa n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto imodoka ndetse n'amagare, hakaba hari n'ibiti bihakikije bidufasha mu guhumeka umwuka uri mwiza.